Iyo abahinzi bari guhinga bakenera ifumbire kugira ngo ibihingwa byabo bizere neza, umuhinzi uhinze ntashyiremo ifumbire ibihingwa birangwira ntibyere neza ari byo bitera kurumbya.

Abahinzi, mu bihingwa bahinga iyo batabyitayeho cyane hari igihe bijyamo udusimba bigapfa, bikaba bitakwera neza, ariko iyo babikurikiranye bakabitera imiti irinda udusimba byera neza umusaruro ukiyongera.

Abahinzi iyo bateye imyaka ikamera, igihe kiragera bakagura imiti yo kuyiteramo kugira ngo udusimba tutazirya. Iyo bateyemo iyo miti niho byera neza bikarumbuka.

Iyo abahinzi bahinze imyaka kugira ngo zere neza bazitera imiti igiye itandukanye, imiti zica udusimba, imiti zituma imvura itica imyaka, kugira ngo zizere neza.

Ubuhinzi ni bwiza, ubuhinzi niryo terambere ry'igihugu, kuko abahinzi bafatiye runini igihugu mu iterambere. Ni byiza rero iyo umuhinzi ahinze agakurikirana imyaka ye akayitera imiti kugira ngo ayirinde udusimba two kuzonona.

Iyo abahinzi bahinze imyaka kugira ngo izere neza, bayitera imiti cyangwa se yaba arimo mu gihe cy'izuba bakavomerera, mu kuvomerera hari abifashisha arozwari abandi bakifashisha utumashini tuguruka hejuru mu kirere.

Inzuzi ni ahantu warorera amafi . Kuko amafi aba mu mazi ninaho ahumekera, agomba kuba hari abantu barahacunga kuko batahabaye barushimusi baza bakayarura akiri mato.

Amafi ni inyamaswa zo mu mazi zibamo ubwoko butandukanye: isambaza, salmoni, katifishi ziba zifite utugufa tworoheje zororokera mu mazi,....

Amafi ni ibinyabuzima biba mu mazi, barayaroba, bakayateka, bakayarya, iyo uyagaburira umwana cyane, akuga afite ubwenge, atekereza neza, kuko agira intungamubiri ziganjemo nk'amavuta cyane cyane.

Amafi ni ibinyabuzima biba mu mazi, bikororokeramo, byamara gukura, bakayaroba, bakayateka cyangwa se bakaba bayagurisha, amafi ni meza cyane kuko agira intungamubiri uwayariye agira ubuzima bwiza.

Mu kiyaga ni ahantu amafi yororokera akabasha gukura haba hariho n'abantu bayarinze, ku buryo nta bantu baza ngo bayibe noneho yamara gukura bakayaroba bakayagurisha cyangwa se bakayarya.

Amafi ni ubwoko bw'inyamaswa ziba mu mazi, barayaroba, bamara kuyaroba bakagajyana bayateka, hariho n'abayotsa, amafi ni meza cyane kuko bagira intungamubiri, haba ku bana batoya no ku bantu bakuru.

Amafi ni ibinyabuzima byo mu mazi ,barayaroba ,bakagenda bakayateka, abarizwa mu nyamaswa zigira urutirigongo ,araryoha cyane kandi agira intungamubiri nyinshi.

Mu kiyaga ni ahantu haba hari amazi menshi，hororerwa amafi， hakaba hari abantu bagomba kuyarinda， kugira ngo hatagira barushimusi baza bataza kuyaroba atari yakura.

Amafi ni ibinyabuzima biba mu mazi, agira intungamubiri nyinshi cyane, kuyagaburira umwana ni byiza kuko akura neza atagwingiye, kandi n'abantu bakuru kuyarya ni ingirakamaro.

Indagara ni ubwoko bw'amafi matoya zororokera mu mazi, maze bakaziroba bakazanika zakuma bakazijyana mu isoko. Uwariye indagara aba ariye intungamubiri nyinshi, kuko ziganjemo ibyubaka umubiri.

Isambaza ni ubwoko bw'amafi mato zikunze kugaragara mu kivu no mu biyaga binini byo mu Rwanda ni nziza cyane kuko zigira intungamubiri haba abana batoya n'abantu bakuru kuzirya ni ingirakamaro.

Amafi ni ubwoko bw'ibiribwa, amafi yororokera mu mazi, iyo akuze barayaroba maze bakayateka bakayarya, amafi ni meza agira intungamubiri kuko ari mu byubaka umubiri.

Karoti ni bwoko bw'imboga zerera mu butaka. Ziba zifite ibara ry'umutuku. Ni imboga nziza cyane kuko iyo uziriye akenshi zirinda uburwayi bw'amaso. Abana n'abakuru bose kuzirya ni byiza cyane.

Ibidodoki ni ubwoko bw'ibiryo, byera biri kurandaranda. Nko kubiti hejuru, biba bifite amababi y'icyatsi. Biraryoha kandi bigira intungamubiri. Biri mu birinda indwara.

Insina ni igihingwa batera kikeraho igitoki, insina ziba ziri mu bwoko butandukanye kuko zeraho n'ibitoki bitandukanye: ibitoki baryaho imineke n'ibitoki bateka.

Abahinzi mbere y'uko batera imyaka, barabanza bagahinga akaba intabire, maze nyuma bakazabona guhingamo ibihingwa byabo, kuko ntago batera imyaka mu kigunda.

Ibirayi ni ibihingwa byerera mu butaka. Bibarirwaga mu bwoko bw'ibinyabijumba. Bitera imbaraga. Kandi bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi ni byiza cyane.

Ibireti ni igihingwa gihingwa kiba gifite uruti rw'icyatsi, rwera uturabo tw'umweru iyo byeze barabisarura bakajya kubigurisha ku ikusanyirizo, maze bakazabikoramo imiti.

Amateke ni ibihingwa byera mu butaka, biba bifite amababi y'icyatsi. Akunda guhingwa mu bice byo mu cyaro. Uwabiriye agira imbaraga, kuko biri mu biryo bitera imbaraga cyane.

Avoka ni igihingwa bahinga kiba mu bwoko bw'ibiti, iyo bagiteye mu butaka kirakura kikazamuka nyuma kikazeraho izindi mbuto arizo zitwa avoka.

Ibira ni ubwoko bw'igihingwa kiba gifite amababi y'icyatsi. Iyo byenda kwera bizana uruyange hejuru, maze ababihinzi byakwera bakiteza imbere.

Avoka ni ubwoko bw' igiti cyeragamo imbuto, nazo zitwa avoka, kiba gisa n' icyatsi; avoka ziraryoha, zibagamo intungamubiri nyinshi, zirimo n' ibirinda ndwara.

Amashu barayahinga. Cyane cyane mu bice byo mu cyaro, ni bo bakunda kuyahinga, maze yakwera, bakayajyana kuyagurisha. Andi bakayarya kugira ngo babonemo intungamubiri kuko n'ubwoko bw'imboga.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane, bigira amabara atandukanye, bimwe biba bisa n'umweru ibindi bisa n'umuhondo, iyo byeze wabiryamo umutsima wabeteshamo igikoma cyangwa se ukabyotsa.

Igare ni igikoresho gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu, rigira amapine abiri, utwaye yitwa umunyonzi. Riba rifite n'inzogera kugira ngo ayivuze abari mu nzira bavemo.

Inkoko n'inyamanswa zororerwa mu rugo, habamo inkoko kazi n'amasake, zidufasha kubona ifumbire, n'ingirakamaro kuko zitera n'amagi tukarya.

Ibirayi ni ubwoko bw'biribwa, biba mu binyamafufu, ibirayi ni byiza muntu wabiriye agira imbaraga, kandi byongera n'intungamubiri.

Ibigori ni ubwoko bw'igihingwa bahinga, maze byakwera bikavaho impeke zitwa ibigori, impeke ziba zitandukanye, hari iziba zisa n'umweru n'izindi ziba zisa n'umuhondo, ari zo bita mayizori.

Umuceri ni ubwoko bw'igihingwa bakunda ku wuhinga mu hantu habobereye hari amazi, nko mu bishanga kuko kugira were usaba amazi menshi, iyo weze ubanza gucishwa mu ruganda bakawutonora bakongera bakawugarura ku isoko abantu bakawugura.

Igihaza ni isoko nziza y'intungamubiri kuko umuntu waririye igihaza akura neza. Kiba gisa n'icyatsi, imbere kibaba gifite ibara ry'umuhondo gifitemo n'utuyuzi maze bakagiteka.

Ibobere nk igihingwa bahinga, kiba gifite amabab yi'cuatsi, iyo cyeze basoroma ayo mababi maze bakayagaburira udusimba twitwa amagweja.

Amateke ni bwoko bw'ibiribwa, amateke araryoha, atera imbaraga, uwayariye ahorana ingufu, ntarwaragurika, ni meza kuyarya kenshi.

Ibireti ni igihingwa gihingwa cyane cyane mu bice byo mu majyaruguru, iyo byeze barabibika bikuma byamara kuma, bakaza kubigurisha nyuma bakazabikoramo imiti yo kuvurisha abantu.

Ibishyimbo ni ubwoko bw'ibiribwa bikunzwe cyane muri Afurika, aho usanga abantu ku ifunguro rya buri munsi bitaburaho, ni byiza kubirya kuko bigiramo intungamubiri.

Ibirayi ni ubwoko bw'ibiribwa bibarizwa mu binyamafufu, bitera imbaraga, kandi bigira intungamubiri nyinshi cyane kuko bibarirwa mu birinda indwara.

Ibijumba ni ubwoko bw'ibiribwa byerera mu butaka. Ibijumba bigira intungamubiri bitera imbaraga, kandi biraryoha kubirya kenshi bituma umuntu atagwingira.

Abahinzi ni abantu bafitiye igihugu akamaro kuko ibyinshi bikoreshwa mu gihugu no ku isi hose bituruka mu buhinzi byava mu buhinzi abantu bakabona ibyo kurya, hari n'ibyo bacisha mu nganda ariko byavuye mu murima.

Inyanya ni igihingwa gihingwa cyane cyane mu bice byo mu mubande cyangwa se mu bishanga. Iyo cyeze kiba gisa n'umutuku. Gikunda gukoreshwa nk'ikirungo cyo gushyira mu biryo, kandi ni cyiza kukirya kuko kivura indwara y'umwijima.

Inyanya ni nziza cyane kuko ziri mu bwoko bw'imboga, zikaba no mu birungo bikoreshwa kugira ngo ibiryo bihindura ibara bitukure, iyo zitetse nko mu birayi birahinduka bigasa n'umutuku.

Icyayi ni ubwoko bw'igihingwa bakunda guhinga mu gishanga, kuko kiba gikeneye amazi menshi kugira cyere kandi bisaba kucyitaho bakabagaramo ibyatsi kugira gitarumba.

Amatunda ni ikiribwa dusanga mu mbuto, inyuma riba rifite igishishwa gikomeye, maze icyo gishishwa ukakimena ukarya umutobe n'utundi tubuto tuba turi imbere.

Inyanya ni igihingwa gikunda gukoreshwa nk'ikirungo gitukuza ibiryo, iyo cyeze, kiba gifite ibara ry'umutuku, cyaba kitari cyera kikaba gifite ibara ry'icyatsi, kigiraga utubuto mo imbere.

Amashu ni ubwoko bw'igihingwa bwabarwaga mu mboga. Asa n'icyatsi. Bwera mu bishanga kenshi, kuko iyo ahinze mu misozi ntabone amazi ararumba.

Ibitunguru ni ubwoko bw’ibihingwa，bikunda guhingwa cyane cyane mu bice byo mu cyaro ，bigira ibibabi birebire by'icyatsi. Iyo byeze byerera mu butaka， bikunda gukoreshwa nk'ikirungo， bashyira mu biryo， kugira ngo bihumure.

Ibirayi ni ibibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, ibirayi byongera imbaraga ku wabiriye kandi nk'uwahinze ibirayi akabyeza bimufasha kwiteza imbere, akaba yabigemura ku isoko cyangwa se akagurisha mu baturanyi be.

Imbuto z'amatunda ni imbuto ziryoha, ziba zisa n'umutuku hariho n'iziba zijimye, izindi zisa n'icyatsi abana barazikunda cyane, abana bato bari munsi y'umwaka barazirya ndetse n'abakuru nabo barazirya, kuko zibamo intungamubiri nyinshi cyane.

Isake ni inkoko y'ingabo, iba ifite isura itandukanye n'iyi nkokokazi, iyo ari mu gitondo irabika maze abantu bakamenya ko bwakeye.

Intama ni ubwoko bw'inyamaswa, ni imwe mu matungo yororerwa mu rugo. Intama ni nziza kuko zitanga ifumbire, kandi baziryamo inyama.

Ibirayi ni ubwoko bw'ibihingwa bibarizwa mu binyamafufu kuko bitera imbaraga, bikunda guhingwa mu bice byo mu cyaro, habamo ubwoko bwinshi ibyo bita Kinigi, Kuruseke, Peko biraryoha byose.

Indimu ni ubwoko bw'imbuto zigira intungamubiri, ziba zisa n'icyatsi cyangwa zifite ibara ry'umuhondo, zigira aside ku buryo zifasha igogora.

Umuceri ni ikiribwa cyiza cyane kigira ubwoko butandukanye bitewe n'uruganda rwawutunganyije habaho umuceri w'umutanzaniya, umuceri w'umuhinde iba itandukanye.

Inyanya ni bwoko bw'ibiribwa, bakunda kuzihinga ahantu ho mu gishanga haboneka amazi. Iyo zeze ziba zisa n'umutuku bakaziteka mu biryo, zifashishwa nk'ikirungo gitukuza ibiryo.

Mu buryo bwo kurinda isuri abaturage bagomba gutera ibiti mu mirima, abandi ahantu hahanamye cyane bagaca amaterasi y'indinganire.

Ibigori ni ubwoko bw'ibiribwa, barabihungura bakabeteshamo ifu yo kunywa mo igikoma, hariho n'abeteshamo ifu yo kurya mo umutsima, bigira intungamubiri cyane byongera n'imbaraga.

Avoka n'ubwoko bw'ibiribwa ziba zisa n'icyatsi inyuma n' imbere ziba zisa n'icyatsi nko hagati haba harimo ikibuto iyo ugiye kuyirya ukuraho agahu k' inyuma ukarya umubyimba w'imbere.

Ibisheke n'ubwoko bw'ibiribwa bigira akamaro kenshi cyane, hari ababirya bagakokora bakarya, kandi babikoramo n'isukari bigacishwa mu ruganda, bikazavamo isukari.

Ibijumba ni ibihingwa byiza cyane, bikunda guhingwa mu bice byo mu cyaro, byerera mu butaka, bigira intungamubiri nyinshi kuburyo uwabiriye agira n'imbaraga nyinshi cyane.

Abahinzi ni abantu bahinga imyaka, yakwera bakayirya cyangwa se bakaba basagurira amasoko. Bafatiye runini igihugu, kuko ibyo turya byose biba byaturutse mu buhinzi.

Icyayi ni igihingwa gihingwa, cyane cyane ahantu h'ikibaya kiba gisa n'icyatsi, cyakwera bakagisoroma bakakigurisha, cyangwa se bakakijyana kugitunganya mu ruganda, kikazagaruka turi kukinywa ari agafu.

Icyayi ni igihingwa gihingwa mu bice byo mu bishanga, cyera ahantu hari amazi menshi cyane, iyo cyeze mbere y'uko kiribwa babanza kugicisha mu ruganda bakagitunganya.

Intoryi ni ubwoko bw'ibiribwa, zibarizwa no mu mboga, ziraryoha kandi zigira intungamubiri, kuko zirinda indwara, abahinzi bazihinga biteza imbere, kuko bagemura no mu masoko atandukanye.

Amatunda ni ubwoko bw'igihingwa cyera kirandaranda hasi cyangwa ku biti, ni ubwoko bw'imbuto kandi zigira intungamubiri, habamo utubuto dutoya na two baraturya.

Abahinzi ni abantu bakora umwuga wo guhinga, bafatira igihugu runini mu iterambere, kuko ibintu byinshi turya biba byaturutse mu buhinzi.

Ibirayi ni ubwoko bw'ibiryo bitera imbaraga, byera mu bice byo mu cyaro, bibamo ubwoko hariho ibyitwa kinigi, byitwa peko, ibyitwa kuruza, biraryoha byose.

Ibijumba ni mu bwoko bw'ibiribwa, bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, byongera imbaraga, biba bifite amabara atandukanye, hari ibiba bisa n'umweru, ibindi bifite ibara ry'umuhondo, cyangwa iby'umutuku.

Imyumbati ni ubwoko bw'ibihingwa, yerera mu butaka, ikungahaye ku ntungamubiri, itera n'imbaraga, uwayiriye aba afite imbaraga nyinshi, igira amafufu, mo imbere iba ifitemo n'umuzi.

Ibihaza ni ibiribwa barya. Babitera ari inzuzi icyakora hakazaho ibihaza binini. Iyo byeze barabiryaga, inyuma biba bisa n'icyatsi, mo imbere bisa n'umuhondo. Haba harimo n'inzuzi mwo imbere.

Abahinzi ni abantu bakora umwuga w'ubuhinzi, mu buhinzi bakoresha ibikoresho bitandukanye amasuka, imihoro no kuvomerera imyaka bagakoresha lozwari.

Ibirayi ni ubwoko bw'ibihingwa bihingwa maze bikagira umusaruro uhagije. Umuntu wabihinze akabyitaho cyane birera maze akaba umukire.

Amateke ni ibiribwa biri mu bwoko bw'ibinyamafufu， bitera imbaraga， bikunda guhingwa mu bice byo mu cyaro， umuntu ubihinze yiteza imbere， kuko abijyana ku isoko，bakamuha amafaranga.

Imiteja ni ubwoko bw'ibiribwa, imteja yera ku bishyimbo, iyo ibishyimbo bitari byakura cyane ngo bibe ibitonore, barabisoroma, iba isa n'icyatsi, kandi iraryoha.

Imbuto ni ingirakamaro ku bantu bose abana n'abakuru, kuko ziri mu birinda indwara, mu mbuto nazo ziba zirimo ubwoko butandukanye imineke, imyembe, amaronji, kuzirya ni ingirakamaro.

Inyanya ni ubwoko bw'imboga zikaba n'ikirungo; bazishyira mu biryo bigatukura kandi bigasa neza, inyanya zigira ibara ry'umutuku, ariko iyo zitari zera neza ziba zifite ibara ry'icyatsi.

Ibigori ni ubwoko bw' ibihingwa bikunda guhingwa mu bice byo mucaro, mu bishanga ibigori ni byiza birera cyane bigira intungamubiri.

Guhinga ni byiza, ariko iyo uhinze ugaterera iyo ntukurikirane imyaka yawe irarumba, mu kugira rero byere neza nuko umuntu aba agomba guteramo imiti zica udukoko cyangwa udusimba.

Kugira ngo abahinzi bahinge imyaka, mbere na mbere barahinga umurima bakaranduramo ibyatsi, bagashyiramo ifumbire, kuko bahinze nta fumbire, imyaka ntabwo yera neza.

Amashu ni ubwoko bw'imboga bwiza cyane, amashu aba asa n'icyatsi, hari agira ibibabi binini n'agira utubabi dutoya, amashu ni meza kuko agira intungamubiri, haba ku bana cyangwa se abantu bakuru.

Amashu ni bwoko bw'ibihingwa bweraga cyane ahantu ho mu bishanga kuko akenera amazi, akaba gafite ibara ry'icyatsi n'ibibabi by'icyatsi agira intungamubiri.

Abahinzi ni abantu bafitiye igihugu akamaro， kuko ibihingwa byose byera mu gihugu，ni abahinzi baba barabihinze， bakabifumbira，bakabifata neza，iyo byeze rero abaturage babona ibyo kurya.

Amapera ni ubwoko bw'imbuto zera mu giti, iyo zitari zera ziba zisa n'icyatsi, zaba zimaze kwera zigasa n'umuhondo. Ziraryoha, imbere haba harimo utuntu tw'utubuto, natwo baraturya, abana n'abantu bakuru bose, bemerewe kuzirya.

Ibihaza ni ubwoko bw'ibiribwa bikunze no kubarirwa mu mboga, kuko bigira intungamubiri nyinshi cyane, inyuma biba bisa n'icyatsi, imbere biba bisa n'umuhondo, harimo n'inzuzi.

Amateke ni igihingwa cyiza umuntu wayahinze, iyo yeze amuteza imbere, kuko arayagurisha, akabona amafaranga, kandi ni meza kuyarya, atera imbaraga.

Pavuro ni ubwoko bw'igihingwa bazita urusenda, zera ahantu habobereye nko mu bishanga. iyo zeze baziteka mu biryo.

Avoka ni bwoko bw'ibiribwa bubarirwa mu mbuto, ziba zifite ibara ry'icyatsi, n'imbere haba harimo ikibuto, ibishishwa bara bitonora bakarya aka avoka k'imbere.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyerera mu butaka kiri mu bwoko bw'ibinyabijumba, uwagihinze yiteza imbere kuko iyo cyeza aragurisha bakamuha amafaranga, kandi no kukirya ni ingirakamaro kuko kiri mu bitera imbaraga.

Imyumbati ni ubwoko bw'igihingwa cyerera mu butaka, umuhinzi wahinze imyumbati ikera neza bimufasha mu kwiteza imbere, kuko arazigurisha akabona amafaranga yo kurihira abana amashuri cyangwa akayaguramo nawe ibindi ashaka.

Ibigori ni ubwoko bw'ibihingwa birera cyane bikunda guhingwa mu bice byo mu cyaro, iyo byeze biteza imbere ababihinze kuko banywamo igikoma cyangwa bakabigurisha hari ababiryamo umutsima.

Iyo imyaka yumye urugero nk'ibishyimbo cyangwa se ingano, barabisarura. Bamara kubisarura, bakabyanika, byakuma bakabihura bakoresheje ibibando, bashasheho n'amahema kugira ngo ya myaka idasandagurika ku butaka.

Ibishyimbo ni ibihingwa byiza cyane bigira amabara atandukanye, iby'imituku, iby'umweru n'iby'umukara, byose ni byiza kuko bigira intungamubiri, byubaka umubiri, uwabiririye agakura ameze neza.

Amasakani ubwoko cy'igihingwa, barayahinga akazamuka ameze nk'igiti, hejuru akazazana utubuto dutoya, yakwera abantu bakayabeteshamo igikoma cyangwa mo umusururu.

Ubunyobwa ni ibihingwa byera mu butaka, ubunyobwa ni bwiza cyane kuko bugira intungamubiri nyinshi cyane, higanjemo amavuta, ni byiza kubuha abana ndetse n'abantu bakuru.

Ubunyobwa ni igihingwa cyerera mu butaka . Gikunda guhingwa mu bice byo mu cyaro, gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane ,nka poroteyine kuko kibamo amavuta . Umwana ukiriye, akura neza nta kugwingira.

Ubunyobwa ni ubwoko bw'ibihingwa ,bukunda guhingwa mu butaka bworohereye cyane kuko ni ho bwera. Ubunyobwa ni bwiza cyane bugira intungamubiri nyinshi kuko bwiganjemo amavuta.

Inzuzi ni utubuto duto tuva mu bihaza bazikoramo, ifu zibamo, intungamubiri nyinshi cyane, zirinda indwara, zongera imbaraga.

Ingano ni ubwoko bw'igihingwa gikoreshwa mu gutunganya ifu, ikoreshwa cyane cyane mu gutunganya imigati. Bazishyira no mu gikoma. Igikoma kirimo ingano kiraryoha kandi kiba gifite intungamubiri.

Ibigori ni ubwoko bw'ibinyampeke, bikunze guhingwa mu bice byo mu cyaro, iyo byeze barabisarura, bakabihunguramo impungure, cyangwa se bakabibetesha bakaywamo igikoma.

Ubunyobwa ni ubwoko bw'ibiribwa, bubonekamo intungamubiri nk'amavuta meza atunga umubiri, ni byiza kuburya, ushobora kuburya bukaranze cyangwa ukabuteka mu biryo.

Ubunyobwa ni ubwoko bw'ibiribwa, bukungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane, kuko bwiganjemo amavuta kandi ayo amavuta, afasha mu kongera imbaraga.

Amashyaza ni ubwoko bw'igihingwa, kiba gifite amababi y'icyatsi, kikazana impeke, iyo cyenda kwera kibanza kugira uruyange rw'umweru.

Imiteja mu bwoko bw'ibihingwa ibarizwa mu mboga, iyo bateye ibishyimbo bigakura, ariko bitari byaba ibitonore n'ibyo bita imiteja.

Amasaka n'ubwoko bw'ibinyampeke barayahinga yakwera bakayasarura bakayanika yamara kuma hari aba yakoramo umusururu abandi bakayabeshamo igikoma, amasaka agira intungamubiri haba bakubana no kubantu bakuru nimeze cyane.

Ibishyimbo ni ibiribwa bahinga bigakura bikazana imiteja, iyo byeze ariko bitari byuma babyita ibitonore, byamara kuma bakabisarura bakabihura maze bakabigurisha, cyangwa bakabibika mu nzu bakazajya babirya.

Ibishyimbo ni ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri cyane nka poroteyine, ni ikiribwa cy'ingenzi mu Rwanda no muri Afurika kuko gifasha mu kurinda imirire mibi.

Inzuzi ni utubuto dutoya bakura mu bihaza. Ababishaka basyamo ifu y'izo nzuzi, maze bakazajya barayiminjira mu biryo, bakayiteka kuko igira intungamubiri.

Igihingwa cy'ibishyimbo, kugihinga bafata ibishyimbo bakabishyira mu butaka, maze bikagenda bimera bikazamura imizi. Iyo bigeze hejuru, barabihingira bakanabibagara, bakabishingirira, maze bikazagera igihe bikuma bagasarura.

Amagi ni ubwoko bw'ibiribwa barayarya agira intungamubiri nyinshi, inkokokazi nizo ziyatera inyuma aba asa n'umweruru mo imbere haba harimo ibara ry'umuhondo.

Inka ni amatungo yororerwa murogo, afasha mu gutanga ifumbire, amata, cyangwa se inyama. Ariko bibaga byiza iyo umworozi azitayeho akaziha imiti, kugira ngo azirinde indwara.

Abarozi borora amatungo baba bagomba kugira amakenga, kugira bagenzure niba amatungo yabo atajemo uburwayi, iyo basanze hari itungo ryarwaye, hari abaganga bashinzwe kuzivura ni ukubahamagara bakaza bakazitaho.

Inka barazibaga bamara kuzibaga inyama bakazimanika, aho babagira mu iyo nzu noneho abantu bakagenda, baraza kugura gake gake, inyama zigira intungamubiri nyinshi, haba ku bana batoya no ku abantu bakuru kuzirya ni ingirakamaro.

Inka ni inyamaswa yororerwa mu rugo, igira akamaro kenshi nko gutanga ifumbire barazikama amata hariho nabaziryamo inyama, ziba zifite n'amabara atandukanye ay'umweru, ay'umukara n'ayandi.

Abavuzi b'amatungo ni abantu b'ingirakamaro cyane, kuko batuvurira inyamaswa iyozarwaye, batuvurira amatungo, kandi niryo itungo ryipfushije baraza bakaripima. bakamenya icyaba cyaryishe.

Inkwavu ni ubwoko bw'inyamaswa zororerwa mu rugo. Inkwavu ni utunyamaswa twiza cyane twororoka mu buryo bwihuse, iyo uzoroye witeza imbere mu gihe gito zibamo amabara atandukanye amabara y'umweru, n'amabara y'umukara.

Abantu bavura amatungo ni abantu beza， kuko amatungo yacu iyo yarwaye barayavura， bakayaha imiti， n'inyamaswa zipfushije baraza bakabanza bazipima， bakamenya impamvu zapfuye.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo, korora ingurube bifasha mu iterambere kuko iyo ingurube ibyaye, ishobora kubyara ibyana bitanu, icumi cyangwa ibibwana bitanu.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu rugo, ingurube kuyorora ni byiza, kuko ritanga ifumbire, rinororoka mu buryo bwihuse, kuko ingurube imwe ishobora kubyara ibyana bigera muri cumi na bitanu icyarimwe.

Abaveterineri ni abantu bacuruza imiti y'amatungo, noneho amatungo yanarwara bakaza kuyatera imiti, baba bashaka ko anororoka bakayatera intanga.

Inka zibamo ubwoko, habaho ishashi, n'ibimasa, inka z'imbyeyi iyo zikuze bazijyana ku bimasa bikabangurirana, maze zikabyara, zikabyara inyana.

Inka ni amatungo yororerwa mu rugo, inka ni amatungo meza cyane kuko iyo ufite inka witeza imbere, iguha ifumbire, ukayikama amata, waba unashaka ukarya inyama.

Abaganga bavura inyamaswa baba ari abahanga cyane kuko bavura inyamaswa zitavuga, bakamenya aho ziri kubabara bakaziha imiti kandi zigakira.

Inka ni itungo ryororerwa mu rugo ni ingirakamaro kuko ritanga ifumbire, rigatanga n'amata inka baranazibaga bakazirya ho inyama, zigira amabara atandukanye hari iziba zisa n'umweru n'iziba zifite amabara y'umukara.

Inka ni amatungo yororerwa mu rugo, bayakamaho amata, atanga n'ifumbire, ariko na yo aborozi baba bagomba kuyitaho bakareba niba yarwaye bakazana ababishinzwe bavura amatungo bakayatera imiti.

Abantu borora amatungo bagomba kugira amakenga, kuko iyo barangaye, hari igihe ingwara ziza mu matungo zikarwara zigapfa, ariko iyo ubaye maso ukaziha imiti ntabwo zirwaragurikaga

Abantu borora amatungo yo mu rugo babita aborozi, mu bworozi bwabo baba bagomba kugira amakenga, bakagenzura niba mu nyamaswa hatajemo uburwayi, basanga harimo indwara yaje bagahamagara abavuzi b'amatungo bakazivura.

Amahene ni ubwoko bw'amatungo yororerwa mu rugo, abarirwa mu matungo magufi, amahene ni meza kuko atanga ifumbire atanga n'amata bayaryamo n'inyama.

Ingurube ni amatungo yororerwa mu rugo, umworozi w'amatungo y'ingurube imufasha kwiteza imbere, kuko abona ifumbire kandi amatungo yororoka vuba mu buryo bwihuse.

Aborozi ni abantu borora amatongo, ni byiza rero ko mu bworozi bwabo bashyiramo ubushishozi, bakareba niba itungo ryarwaye bagahamagara abavuzi b'amatungo, bakaza bakaritera umuti.

Inkoko ni ubwoko bw'inyamaswa, ibarirwa mu matungo yororerwa mu rugo, habamo inkokokazi hakabamo n'amasake yose ni meza kuko aduha ifumbire n'inkoko kazi zikaduha amagi.

Amagi ni umusaruro uturuka mu bworozi bw'inkoko, ariko ni byiza ko aborozi b'inkoko bagenzura, ko hatajemo indwara y'uburenge basanga hari indwara yafashe inkoko, bakazishakira abavura amatungo bakaziha imiti.

Inyambo ni inka, ariko zo ziba zifite amahembe maremare cyane akoze uruziga, ayo mahembe barayifashisha mu bintu bijyanye n'umuco Nyarwanda.

Aborozi ni abantu borora amatungo, mu bworozi bwabo baba bagomba gushishoza, bakamenya ko inyamaswa cyangwa amatungo nayo arwara, bakazana abavuzi b'amatugo, bakayitaho bayavura.

Inkwavu ni inyamaswa ntoya ziba zifite amabara atandukanye hari iziba zifite amabara y'umukara n'iziba zifite amabara y'umweru, ziba zifite amaboko magufi n'amaguru y'inyuma maremare.

Ingagi ni ubwoko bw'inyamaswa ziba mu ishyamba, zikunze kuboneka mu birunga, ingagi zifitiye igihugu akamaro, kuko zikurura ba mukerarugendo, bakadusigira amadovize.

Ifundi n'ubwoko bw'akanyoni gato, kaba gafite ijosi rigufi cyane, gakunda gutora amasaka kagakunda no kuririmba.

Inzovu iri mu bwoko bw' inyamaswa ziboneka mu ishyamba, ziba mu birunga; inzovu zigira umugongo munini cyane n' ibyara binini cyane zirya n' ibyatsi.

Inkima ni ubwoko bw'inyamaswa iba mu ishyamba, ikunda kugaragara mu birunga, hariho n'abazita inkende, zirya ibiribwa ndetse n'imbuto, zirya ibirayi, zirya voka, zirya n'imineke.

Umusambi ni inyamaswa iri mu bwoko bw'inyoni. Igira ijosi rirerire, iraguruka, amaguru yawo aba ari maremare, n'inzara zawo. Imisambi ikunda kugaragara ahantu h'ibibaya.

Imisambi ni inyamaswa ziba mu ishyamba. Ziba zifite utubara tw'umukara n'utw'umweru, zigiraga amajosi maremare, zirya utundi dusimba dutoya nk'iminyorogoto, zijya n'utwatsi two mu ishyamba.

Inkende cyangwa se inkima ni ubwoko bw'inyamaswa ziba mu ishyamba. Mu gihugu cy'u Rwanda ziba mu birunga . Ni inyamaswa zurira ibiti kandi zirya n'imbuto.

Inkende ni inyamaswa iba mu ishyamba. Ikunda kurya imbuto. Yurirara ibiti kandi izi kwiruka cyane. Iheka abana bayo ku mugongo kandi ikanabonsa.

Ingagi ni inyamaswa ziba mu birunga. Mu gihugucu cyacu cy'u Rwanda zikurura ba mukerarugendo, kuko baza kuzisura bo mu bihugu byo hanze, bakadusigira amadovize.

Inzovu ni ubwoko bw'inyamaswa, ziboneka mu ishyamba mu gihugu cyacu ziboneka mu birunga, ziba zifite imbaraga nyinshi, zigira ni ibyara birebire binini bibyibushye.

Intare ni inyamaswa ziba mu ishyamba. Intare ni inyamaswa izwiho ubuhangange kuko bayita umwami w'ishyamba. Irirukanka cyane kandi igira imbaraga nyinshi.